Uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga urugero nka porogaramu za telefone, mudasobwa, amakarita ya banki, gusinya sheki n'ubundi buryo bwinshi bunyuranye.

Iri soko ririmo abantu bari gucuruza imboga rwatsi dodo, inyanya, intoryi, ibitunguru, karoti, kokombure, shufureri, ibishyimbo.